Iyi ni imodoka ipakiye imizigo y'ibicuruzwa bitandukanye, ikaba iri muri gare aho andi makamyo aparitse, apakiye ibintu hari n'abantu barimo gucuruza imyenda bayihetse ku bitugu.

Izi ni imodoka ziri muri kontorore tekinike aho basuzuma ubuziranenge bwazo n'ibikoresho byazo bishaje ngo bibashe gusimburwa. Nho bari bari kuzikoresha kuri kontorore tekiniki.

Aba ni abantu bashinzwe kurinda umutekano w'abantu n'ibintu bakarara n'irondo. Barimo guhabwa amabwiriza n'umuyobozi wabo bose bambaye udupfukamunwa.

Aba ni abaporisi barimo kuzimya inkongi y'umuriro. Bari kuzimya inkongi y'umuriro bifashishije ibikoresho byabugenewe. Inyuma ya bo hari imodoka iparitse ya Yuweni.

Aya ni amatara aba ahantu hahuriwe n'imihanda myinshi, aranga ibyerekezo agahagarika abagenzi n'ibinyabiziga agatanga umurongo wo gukurikiza mu gihe barimo kwambukiranya cyangwa se barimo kugenda mu muhanda.

Aba ni ababyeyi bari kwa muganga, barimo guhabwa impanuro bakagirwa n'inama, z'ukuntu bagomba kwita kubana babo cyangwa se kwiyitaho bo ubwabo, muri rusange kugira ngo bagire ubuzima bwiza, uyu ni umuntu urimo kubagira inama ubahagaze imbere.

Aba ni abantu bari mu nama barimo gukemura ibibazo by'abaturage, bari mu nteko rusange. Umuyobozi arahagaze arimo kubasobanurira iby'ingenzi bagomba gukurikiza, bateze amatwi.

Iyi ni imitako baboha mu buryo bwa kinyamwuga bakoresheje amakoroshi cyangwa se in impindu. Iyi mitako ikaba iboneka mu by'iwacu, ikaba ari imwe muri hoteri igaragara mu murenge wa Kinigi, akarere ka Musanze.

Icyo nabasha kuvuga kuri iyi foto n'uko hari umudamu ariwe mugore wicaye neza ku kirago. Hakaba hari n'uburingiti, hari ibikoresho by'umuco nyarwanda gakondo hari n'igisabo wifashisha mu gucunda amata. Hari n'inkongoro bifashisha mu gukama amata bigaragara ko barimo kwigisha umuco nyarwanda ibikoresho by'umuco.

Iyi ni inkono y'itabi bakunda kwita ikijigo. Ni abasaza n'abakecuru bazikoresha. Itabi rya kinyarwanda ry'ikamba niryo banyweramo, bakoresheje igishirira bagacana ku munwa ubundi bagatumura itabi.

Iyu ni umuntu uri kuboha ikirago, ikirago bakiboha bifashishije ubwatsi bita ubusuna, ari gukoresha imigozi badodoye ku mufuka.

Iyi ni ifoto yafashwe yerekana intore zirimo guhamiriza, zibyina umuco gakondo, cyane cyane ko izi ntore zikunze kuboneka muri hoteri bita mu by'iwacu, iherereye mu murenge wa Kinigi, iruhande rw'ibirunga. Ni ifoto igaragaza intore zirimo guhamiriza, zitambaye amayugi n'imigara.

Iyi foto igaragara ko ibumbatiye umuco nyarwanda, iriho umuntu wambaye kinyarwanda, wambaye imikenyero, kandi bigaragara ko ari nk'urugo rw'umwami niko bigaragara. Wagira ngo ni murukari ugereranyije n'uko nahabonye, iyi foto rero nicyo ndikuyibonaho.

Izi ni indabyo z’igiti bita umuko. Ubundi kera kitwaga umurinzi, akaba ari igiti kigira amashubi n’amababi. Inka zikunze kurya amababi yacyo.

Iyi ni imyungu ikoreshwa mu kuvamo ibicuma cyangwa se urukiza, cyangwa urwuho, akaba ari ibikoresho bakoresha mu kunywesha, inzoga, cyangwa umutobe.

Iyi ni imyumbati, imyumbati n'igihingwa ngandurarugo bahinga bagambiriye kurya cyangwa se kugurisha bakazabona amafaranga, imyumbati ishobora kuyirya ari mbisi cyangwa se ukanayibetesha ukaryamo umutsima, ukanayigurishwa ikabo n'amafaranga.

Uyu ni umusururu uri mu kibindi. Ukaba ari umusururu urimo kubira, umusuru w'amasaka. Umusururu ni ikinyobwa gakondo kifashishwa mu gusabana n'abandi, n'abantu muri rusange, hakaba harimo n'imiheha ya kinyarwanda. Bigaragara ko ari umusu uryoshye ukurikije uko urimo kubira.

Icyo mbona kuri ntuza, kuri iyi foto, n'uko hari icyansi cyangwa se igicu bakoresha mu gukama ariko akaba ari igicuba gikurakuye, rwose bigaragara ko gikurakuye kigaragaza umuco nyarwanda cyane cyane mu bijyanye n'ubworozi bw'inka.

Uyu ni umwana w'umukobwa urimo kubyina imbyino nyarwanda y'imishayayo. Imishayayo akaba ari umuco nyarwanda, ikaba igaragaza umuco nyarwanda, akaba yambaye n'imyenda iranga umuco nyarwanda.

Aba n'abantu bari kunywa amarwa bakoresheje uducuma n'imiheha, bari kunywera ahantu mu cyumba cyabugenewe cyagenewe kwakira abashyitsi, hari n'intebe ziteguye neza bicayemo.

Aba ni abageni bicaye bari mu birori, bakaba bicaye ahantu hateguye mu muco nyarwanda, hari imitako itandukanye irimo ibiseke, bakaba bafashe n'inkoni za kinyarwanda zigenewe abageni.

Izi ni intore zirimo guhamiriza i Nyanza mu Rukari, zirimo gushimisha abantu zifite ingabo, imigara n'amacumu, zambaye amayugi n'imyenda ya gakondo yabugeneye mu guhamiriza kw'intore.

Uyu ni umusore n'umukobwa, bari mu mihango yo gusaba no gukwa, bigaragara ko bari mu bukwe, basohotse bambaye neza mu buryo bwa kinyarwanda. Baranezerewe, barimo baraseka bishimye, bishimiye ubukwe bwabo.

Izi ni intore zirimo guhamiriza, zifite imigara, zikajyana n' amayugi, zikagira n' amacumu, n' ingabo; intore zikaba zibereyeho gushimisha abantu mu birori cyangwa se nazo ubwazo zikorera amafaranga bakazihemba.

Ibi ni ibiryo bya kinyarwanda, ni byo bya kinyarwanda birimo imyumbati, ibihaza, umutsima w'amasaka ndetse n'imboga rwatsi, abagiye kubirya baka banezerewe.

Uru ni ururabyo. Ururabyo rurabije rufitemo indabyo zererana, izi ndabyo zikoreshwa mu gutaka ahantu hatandukanye no gutanga impumuro nziza. Zikoreshwa mu buryo bwo kugirango ahantu habe hakeye

Iyi ni inzu ndangamurage iboneka mu by'iwacu muri hoteli yitwa iby'iwacu, iherereye mu murenge wa kinigi aho ba mukerarugendo baza kuhasura bigira umuco nyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange nabo basanzwe bajyayo kuhasura kuhigira biranga umuco nyarwanda.

Iyi foto icyo nayisobanuraho ni uko ari igikoresho bakoresha mu mashanyarazi cyitwa sase, akaba ari igikoresho kigereranya umuriro. Ni nacyo bakoresha mu gushyira amashanyarazi mu nzu, icyo gikoresho ni aho umuriro usohorera uvuye ku rusinga rw'amashanyarazi nyirizina.

Kiriya ni icyuma gikorana n'amashanyarazi bita taransfoma, iki cyuma kikaba ari cyo kigabura amashanyarazi ahantu hatandukanye, kiyakuye ku cyicaro cy'amashanyarazi.

Uyu ni umudugudu w' icyitegererezo wa kinigi, uherereye mu murenge wa kinigi mu karere ka Musanze, akaba ari umudugudu watuje abantu ahantu heza kandi bakirinda amanegeka, ukabegereza ibikorwaremezo birimo imihanda, isoko, n' agakiriro, n' ivuriro ndetse n' amashuri.

Iki ni ikiraro cyangwa se iteme, iki kiraro kikaba bigaragara ko ari icyo mu kirere, ikiraro ni kiza kuko gihuza ahantu hatandukanye. Kikaba cyorohereza abantu mu ngendo,..

Iki ni ikiyaga, ikiyaga gikoreshwa iyo barimo kuroba amafi cyangwa se barimo koga bisanzwe, hari n'abakerarugendo bajya kuhasura. Ikiyaga gikoreshwa harimo no kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo cyangwa se kuhira imyaka.

Uyu ni umudugudu w'icyitegererezo wa kinigi, wubatswe ku bufatanye na hoteri ya wane endi onori, abari bahakikije barabimuye babashyiramo, bigaragara ko harimo mudugudu w'icyitegererezo wa kinigi, witwa ayidipi modovireje kinigi.

Uyu ni umudugudu wubatswe mu Murenge wa Kinigi, mu rwego rwo gutuza ahantu heza abari batuye mu manegeka, n’abari batuye mu nzu zishaje zitajyanye n’icyerekezo. Akaba ari umudugudu bita O Ini Wani.

Aha ni muri gare ya Musanze, aho bagenzi bafatira ibinyabiziga, hari n'akazu bashyiriraho amafaranga ku makarita y'ingendo bakoresha ku modoka, hari n'abantu barimo kugenda bahamagara ku materefone, n'abandi bahagaze.

Aha ni mu gikoni aho batekera. Ni ukuvuga mu gikoni cyafotowe mu mudugudu wikitegererezo, umurenge wa Kinigi akaba ariho hari ibikoresho bya gaze, hakaba naho gucana muri rondereza.

Iyi ni kiriziya gatorika ya rambura. Ikaba iherereye muri diyoseze ya nyundo, ikaba inaherereye mu karere nyabihu. Ni kiriziya gaturika ihari.

Icyo nabasha kuvuga kuri iyi foto, ni ifoto igaragaza saro cyangwa se ubuganiriro burimo intebe zikoranye ubuhanga, zimwe bashyize mu midugudu y'icyitegererezo nka hano mu mudugudu wa Kinigi, aho intebe uyu mugabo uri mu nzu arimo gukurura intebe agira ngo ayigire igitanda cyangwa se ibe intebe. Harimo na televiziyo, nicyo nabasha kuvuga kuri iyi .....

Aba ni abasenyeri b'itorero rya anglikanani aba basenyeri, bakaba bashinzwe kwamamaza inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza bwa yesu krisitu, bakaba ari abantu biyeguriye Imana kuvuga ubutumwa bwiza no kwigisha abantu, no kuyobora bakanabifuriza kuzagera mu ijuru.

Aba ni abantu, barimo gutanga ibitekerezo bitandukanye cyangwa se barimo kubaza ibibazo, mu gihe cy'inama kugira ngo bize gukemuka, ni igihe cya kovide bigaragara ko bose bambaye udupfukamunwa kandi udupfukamunwa, ni twiza cyane kuko turinda kuba umuntu yakwirakwiza indwara zitandukanye.

Aba ni abantu bari mu nama, urabona wagira ngo ni umuntu urimo gutanga igitekerezo mu nama, abantu bakurikiye inama batuje muri sare, cyangwa se mu cyumba cy'inama.

Iyi ni ifoto yafashwe umuyobozi yatumijeho inama, yabereye ku kigo cy'amashuri. Aya mashuri abantu baricaye bameze neza, umuyobozi arimo aratanga ikiganiro akoresheje ibyuma ndangururamajwi, bigaragara ko ateze amatwi bamukurikiye.

Aba ni abanyonzi bafasha abantu kugera aho bagiye mu buryo bwihuse, abanyonzi bakaba banyonga amagare, akabateza imbere mu buryo bwo kwakira amafaranga muri rusange. Abanyonzi baboneka mu gihugu cyose no mu Karere ka Musanze barimo no mu Murenge wa Kinigi barimo.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yo mu bwoko bwa kwasiteri. Imodoka ni nziza cyane kuko itanga amafaranga kuri nyirayo uyitunze, kandi ikorohereza abantu mu ngendo zabo za buri munsi.

Aha ni mu muhanda, hari ibinyabiziga birimo amakamyo n'amagare apakiye ibintu by'ibikoresho bitandukanye, akaba ari amakamyo yambukiranya imipaka, kuko ndabona iy'imbere ifite purake y'Inyakenya.

Aha ni muri gare aho abantu bategera imodoka, hakaba hari abantu benshi barimo gufata imodoka zijya ahantu hatandukanye, akaba ari muri gare ya Musanze akarere ka Musanze.

Iyi ni imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange. Iyi imodoka itwara abantu benshi, ikaba yifashishwa mu gutwara abantu.

Iyi ni ikamyo ipakiye amabuye matoya yo kubakisha inzu cyangwa umuhanda. Iyi kamyo yinjiriza nyirayo amafaranga, kandi imbere yaho hari andi makamyo aba ari imbere aparitse. Ni ikamyo ifite amapine icumi, n'imwe yo kwitwaza igihe hagize ikibazo akaba yasimbuzwa indi.

Aha ni mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo na za moto zitwaye abagenzi ,n'abagenzi barimo kugenda n'amaguru akaba ari ahantu imihanda ihurira.

Iyi foto bigaragara ko yafotorewe ahantu mu ndege, kuko harimo intebe zikoreshwa mu ndege, harimo n'abantu barimo kwakira abakiriya mu ndege, bigaragara ko harimo intebe nziza zicayemo abantu, barimo gukoresha amatelefone, n'abandi barimo gushyiramo umuriro aribyo bita gucaginga.

Iki ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa rifani, rifani akaba ari modoka y'amapine atatu, itwara imizigo itanga amafaranga kuri banyirayo, ni byiza gukoresha rifani kuko itanga amafaranga, banyirayo bakiteza imbere.

Iyi ni ifoto iha amakipe abiri ahanganye mu mukino w'intoki witwa handibolo, akaba ari abanyeshuri barimo gukina kubera abanyeshuri barimo kugufana bambaye iniforume, abandi bambaye imyenda y'abakinnyi bari mu kibuga.

Uyu ni umukinnyi ukina umukino w'intoki witwa hendiboro, nk'uko bigaragara mu maboko ye afashe umupira. Akaba ari umukinnyi w'umukobwa, ikindi umukino wa handiboro, ukaba ari umukino ushimisha abantu, ukinjiriza abawukina n'abawushoyemo imari.

Icyo nabasha kuva kuri iyi foto ni uko ari abakinnyi bari mu myitozo harimo n'abambaye amajezi, bambaye imyenda ya siporo bari mu myitozo cyangwa se mu myitozo ngororamubiri. Bakaba ari abakinnyi b'umupira wamaguru kuko ndabona hari ahantu hari udukoresho bajya bakoresha umupira w'amaguru uhitamo n'udukona

Uyu ni umukinnyi w'umupira wintoki wa basikete. Nkuko bigaragara, ni umukinnyi wa basikete, kubera ko afite umupira mu ntoki. Ni umukino ushimishije ubereye ijisho, abantu bakunda kureba kandi bakaryoherwa.

Uyu ni umukinnyi w'umukobwa, akaba ari umukinnyi w'umupira w'intoki, ariwe uzwi nka handi bolo, akaba ari umukinnyi bigaragara ko agiye gutsinda igitego, ukurikije uko yafashe umupira, nuko agiye kuwutera.

Uyu ni umukino wa tenisi nkuko bigaragara. Uyu mukinnyi ari gukina tenisi yifashishije agapira, ndetse n'agakoresho bakoresha mu gukina umukino wa tenisi, akaba ari ingirakamaro.

Iki ni ikibuga cy'umukino w'intoki witwa voreboro nkuko bigaragara ku mashusho ya cyo. Umukino w'intoki ukaba ari umukino mwiza cyane ukunzwe, kandi winjizwa n'amafaranga ku bawukina.